Amashuri ni meza, afasha abanyeshuri kuja kwiga ubumenyi butandukanye, kugira ngo bazavemo abantu bakomeye, nk'ubwarimu, ubuganga, gitifu.

Abanyeshuri ni beza. Biga ibintu byinshi cane bitandukanye, aho usanga urujya n'uruza rw'abana bishimira kujya mu mashuri kugira ngo bazabashe kwihangira imirimo.

Kwiga ni byiza. Bituma wunguka ubumenyi bwinshi cane, ukihangira imirimo itandukanye. Ukabasha kwiteza imbere mu buzima busanzwe muri iki gihe.

Imashini idoda ni nziza cane aho usanga, urujya n'uruza rw'abana babakobwa. Badoda imyenda bakayijyana ku masoko, bakabasha kuyigurisha natwe tukabona ibyo twambara.

Abanyeshuri ni beza cane, biga umwuga w'ubwubatsi kugirango bazabashe kutwubakira amazu meza y'ibyitegererezo mu gihe kizaza, kiri imbere.

Kwiga umwuga ni byiza cane. Ubusudizi bufasha mu buzima bwa buri munsi mu kwiteza imbere. Ukabasha kubona amafaranga, ukabaho neza.

Abanyeshuri ni beza cane, biga ikoranabuhanga kugira ngo babashe kumenya ibintu byinshi cane bitandukanye bakavamo abayobozi n'abandi benshi.

Abanyeshuri ni beza cane biga ubumenyi bwinshi butandukanye, aho usanga urujya n'uruza rw'abantu bajya kwiga, kugira ngo bazavemo abayobozi bakomeye.

Kwiga ni byiza ,bituma umuntu amenya byinshi aho usanga abanyeshuri hijya no hino bajya ku mashuri bihangira imirimo bakabasha kwiteza imbere mu buzima busanzwe.

Amashuri ni meza cyane bigiramo imyuga myinshi itandukanye, bakabasha gukuramo ubumenyi, bakiteza imbere mu buzima busazwe.

Abaganga ni bamwe mu bafasha abaturage bagana ivuriro. Ndetse abaje bafite uburwayi butandukanye bakabitaho, bagataha bishimye cyane ku buryo butangaje.

Kwiga ikoranabuhanga ni byizayiza cane. Bituma ukura neza mu mutwe ukamenya ibintu byinshi bitandukanye, aho usanga urujya n'uruza rw' abana bajya ku mashuri.

Abanyeshuri ni beza cane. Aho usanga urujya n'uruza rw'abana bajya kwiga za mudasobwa. Kugira ngo babashe kumenya ikoranabuhanga. Bakamenya indimi zitandukanye.

Kwiga ni byiza cane aho usanga abana hijya no hino bajya kwiga ibintu bitandukanye, harimo ibya muzika kugira ngo bazavemo abaririmbyi beza cane.

kwiga ni byiza bituma umenya ubumenyi bwinshi bw'ikoranabuhanga, aho usanga urujya n'uruza rw'abanyeshuri bajya kwiga kugira ngo bazavemo abantu bakomeye cane.

Kwiga ni byiza cane aho usanga hirya no hino urujya n'uruza rw'abana bajya kwiga kugira ngo babashe kuzavamo abantu batandukanye harimo: ubuganga, ubuyobozi.